igisura cy'amatovu ni kimwe mu bintu biteje igihugu imbere aho usanga bagikoramo imiti ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, usanga uwakoresheje igisura neza bimuvura kandi bikamurinda indwara yo gususumira iyo ugikoresheje neza ugubwa neza.

Igisura ni kimwe mu bihingwa bigaragaza ko bifitiye igihugu akamaro, aho umuntu wariye igisura neza kimufasha kumurinda indwara, kuko nacyo bakibarira mu mboga kandi igisura gituma umuntu urwaye igifu agikira.

Ibyatsi by'umwimerere bakuramo imiti nyarwanda, ni hahandi usanga byera ahantu hatandukanye, aho usanga no mu mabuye hose bihari, kandi bivura neza cyane, umuntu wabinyweye bituma agubwa neza mu mubiri n'indwara ntago zipfa kumufata.

Umuhokore ni kimwe mu byatsi biteza igihugu imbere. Aho usanga bawukoresha mu buvuzi iyo umuntu yagize igisebe bakoresha umuhokore bari kwigangahura. Kandi ukorwamo ibinini mbese ni icyatsi giteza igihugu imbere.

Inzu iri gutangira kubakwa igeze haruguru y'amadirisha bashizemo na cositara, urabona ko icyo isigaje ni ugusakagwa ndetse bagahita banayifunga, ku ruhande hazitijwe imitobotobo ituma abantu batavogera icyo gikogwa remezo.

Ibiti bivangwa n'imyaka ni bimwe mu biti bigaragaza ko bitanga umusaruro aho uwabiteye yabiteranye n'imyaka usanga bimuhereza umusaruro uhagije kuko bidufasha gukurura amazi biyahereza ikimera.